Icyapa kinini cyane gishinze amaguru y'umweru, gifitemo n'ibyuma bitambitseho, cyerekana aho bagurisha ndetse bakanakwirakwiza ifumbire ikoreshwa mu buhinzi hamwe no gufumbira imyaka giherereye mu karere ka Huye icyicaro cyabo giherereye, munsi hari ikirabyo cy'umuhondo n'ibiti biri inyuma yaho bisa nk'umusave n'imyenda.

Abagabo bihebeye iby'ubuhinzi bahetse amapombe bavomerera ibirayi, ibirayi bifite indabyo biteye neza, biri ku murongo harimo n'amaterasi, biteye mu murima ungana nka hegitari ukikijwe n'ibiti byinshi, birinda izuba kuba ryakangiza imyaka ndetse n'imvura kuba yamanura bino birayi bizafasha kugira umusaruro uhagije.

Itsinda ry'abahinzi ba kinyamwuga, bahuye n'abayobozi b'akagari, harimo n'abashinzwe umutekano, bagiye gukora umuganda wo gutera ifumbire ku bigori, no guteraho umuti wica udukoko kugira ngo bizakure neza, ibyangirika bakabikuramo, buri wese aho afata igikoresho k'iwe, akagenda ashyira ifumbire kuri buri kigori.

Imifuka igera kuri makumyabiri igerekeranye kabiri kabiri iri mu mabara y'umweru afite n'ibirango by'ubururu, yanditseho amagambo menshi agaragara yuko afite ifumbire, ifumbire ikoreshwa mu murima, ifumbire y'imvaruganda abahinzi bakenera cyane kugira imyaka yabo ikure neza.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikomoka ku matungo, ndetse n'ibikenerwa mu buhinzi. Harimo imiti ikoreshwa mu kwica udusimba twibasira imyaka myinshi, nk'imbuto ndetse n'ibirayi, ibigori cyangwa ibiti by'amapera. Ndetse n'ibipapuro bifashisha nk'abajyanama b'abahinzi, kugira ngo babisome bibayobore uburyo bahinga neza batazuya...

Umunyonzi wambaye amaguru n'ipantaro y'umukara, ufite imifuka y'umweru ku igare igera muri itanu, iherekejwe n'abantu bagera muri batanu, bari kuva mu gahanda nyabagendwa ko mu rugo, bagana umuhanda aho bashyiriye imyaka, imbere yabo hari ibigori ndetse n'ibiti, berekeza imbere aho bacururiza.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'ibihingwa, ndetse n'imbuto zifashishwa mu gutera, harimo imibare ya karoti, ibitunguru, n'imirama ya pavuro, yifashishwa n'abahinzi, bahinga ubuhinzi bwa kijyambere, bakabikoresha kugira ngo bagire umusaruro mwiza, ndetse bazagire mwishi ku isoko.

Ububiko bw'ibirayi bito cyane, bwubakishije imifuka y'umweru ndetse n'imbaho ziri hasi, hari n'ibirayi bitoya bakunda kwita kinigi bakoresha bari gutera, bikunda kwera cyane ndetse no kuryoha iyo wabitetse, usanga bihenda kubera bitaboneka henshi.

Insina zo mu bwoko bwa fiya bwera igitoki kinini cyane gipima ibiro mirongo itanu kivamo imineke, ibindi bakabiteka cyangwa bakabigaburira inka bitewe n'icyo umuhinzi ashaka, iyo mu gihe cyarwaye giteza ibibazo cyane kuko gituma umusaruro utaboneka ndetse bigahombya n'abahinzi baba barateye insina.

Umuringoti ufite metero eshatu uciye hagati y'inyanya ziteye ziri ku murongo; zimwe ziri hepfo izindi haruguru, ziteka umurongo umeze neza, urambuye ndetse uhuje neza, hariho ibisasiro bizisasiye bizifasha kwirinda izuba ndetse no kubika amazi mu gihe cy'izuba zibaye nyinshi.

Igiti kinini cy'ikahwa gifite udushami duto cyane n'utubabi dusa nk'utwahungutse. Gifiteho imbuto nyinshi izitukuye n'iz'icyatsi kibisi, iziranga ko cyeze n'izikiri ntoya, zisoranwaho ikahwa yifashisha mu kunyobwa ndetse n'indi zikora ibisasu iyo zamaze gutunganywa bigatunga abahinzi n'ababikora.

Ibiti byinshi by'ibifenesi, biriho amashami arumbaraye cyane, ndetse n'ibibabi bitoshye, afashe impande n'impande, ateye ku buso bwa metero kare agera ku bihumbi bitanu, bakoresha bo nk'umusaruro, bagemura hanze y'Igihugu, ndetse no ku isoko ry'imbere mu Gihugu, afasha kubona amafaranga, ndetse n'imirire myiza muri rubanda.

Igiti cy'imbuto kinini cyane kiri mu bwoko bw'ipapayi gifite abana bagera muri barindwi ndetse cyeze imbuto icyenda, zitukuye cyane zinanaba, ziri hafi y'igiti gitoya gifite imbuto z'ibitumbwe, zitegereje ko zera kugira ngo zizasarurwe bazirye nk'imbuto nziza zifasha abana kugira ubuzima buzira umuze.

Hegitari makumyabiri z'icyayi, zigizwe n'icyayi gihinze neza kigeze igihe cyo gusarurwa, harimo utuyira abasoromyi banyuramo ndetse n'abakorera iki cyayi kugira ngo bagisorome neza, kibafashe kukigeza aho bakigeze, ziteye ku murongo harimo amaterasi y'indinganire, hateye n'ibyatsi ku ruhande, basiga utuyira buri ruhande.

Umwana muto w'imyaka ibiri wambaye ishati y'umweru n'amaguru, ufite imbegeti y'umweru n'ikiyiko kinini cyane, uri kugaburira inkoko y'umweru, ifite amatwi y'umutuku, ifite amasunzu asa nk'umutuku, iri hasi ku isima, ari kuyigaburira ibyo kurya kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Ubworozi buciriritse bw'inkwavu bugizwe n'inkwaro eshanu harimo umweru, ikijuju, ndetse n'umukara. Biri kurishishiriza ku isahani, ibiryo byazo biseye neza, birimo injanga, n'amafu aseye. Ndetse n'akoze mu myunyu ngugu azafasha gukora neza, bibafashe kubahiriza umusaruro no kuwubona mu gihe gikwiye.

Icupa ry'umweru ririho ikirango cy'umuhondo, amagambo yanditse mu mabara y'umweru ndetse n'umukara yifashishwa bayahereza inkoko kugira ngo zitere amagi afite umuhondo, kandi ari na manini cyane atanga umusaruro ku bahinzi n'aborozi b'inkoko.

Ikiganza cy'umuntu gifashe imboga rwatsi zitemaguye zivangavanze, zerekana umwimerere wazo ndetse n'aho bazikuye mbere yuko bazisya buri wese akamenya aho zivuye, zifashisha mu kuvura abantu ndetse no kuvura amatungo cyane cyane abana barwaye inzoka ndetse n'abarwaye imibiri yabo yagizeho ibisebe.

Imiti y'ikinyabutabire yitwa neolife, iri mu gikarito n'amacupa agera kuri ane, yifashishwa mu kuhira imyaka ndetse no kurinda ko yaterwa n'udusimba, agafasha imyaka gukura neza, no kuba yarwanya indwara zayo, no kuba yakura itagize ikibazo na kimwe.

Agacupa k'umweru gafite ikirango cy'ubururu n'umuhondo, gapfundikishije umufuniko w'ubururu karimo umuti wo guhereza inka ndetse n'inkoko n'ingurube muri make amatungo yose iyi miti irayihabwa kugira ngo iyifashe kwirinda indwara cyane cyane nk'uburondwe ndetse n'izindi zibasira amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Umuti w'amazi witwa buserine bahereza amatungo binyuze mu rushinge, ufasha ayo matungo kugira ngo ntarware uburondwe, ndetse ukayarinda igihe yarwaye ikibagarira, kugira ngo iyabuze amata iyabone, akoreshwa n'ababyize; baganga b'amatungo ndetse n'ababihuguriwe igihe kinini, udateza ikibazo ku nka.

Igishanga kinini cyane gikorerwamo ubuhinzi butandukanye burimo ubw'imbuto n'imboga, ibinyabutabire, ndetse n'ibinyamafufu. Bahuriyemo n'abashinzwe ubuhinzi hamwe n'amatsinda menshi akorera umurimo muri iki gishanga afasha abantu kubona amafaranga no kubona umusaruro uhagije.

Umuganda rusange wahuje abaturage, abagore n'abagabo, urubyiruko ndetse n'abakuze, haje n'abayobozi bose kugira ngo bafashe abaturage kuba bakora uyu mudugudu, harimo no guca icyobo cyo kujugunyamo imyanda kugira ngo bagire isuku aho batuye bifashisha kubika imyanda mu gihe igtegereje gutunganywa.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, afite isuka mu ntoki, yaturutse iruhande ku myumbati ayikura, ashaka kugira ngo ahatere ibindi mu murima mwiza uzengurutswe n'ibiti byinshi cyane ndetse hari n'imiringoti igaragara ko yamanura amazi, gusa urambuye ku buryo bakeza neza nta kibazo biteje.

Umuganda rusange witabiriwe n'abayobozi batandukanye harimo abasirikare n'abapolisi, abaturage b'ingeri zose, abasaza ndetse n'abakecuru, urubyiruko ndetse n'abagore n'abagabo, buri wese afite igikoresho cye, uw'isuka n'uw'igitiyo, batizanya imbaraga, bakora inzira y'amazi ndetse n'umuhanda wabo nyabagendwa.

Umurima w'ibigori utegereje gusarurwa ufite ibigori byinshi, ibihetse n'ibidahetse bisa nk'ibyumye ku mutwe wabyo umusatsi warumye cyane, harimo umujyanama w'ubuhinzi arimo yerekana umusaruro n'uburyo yagiriye abantu ubuhinzi kugira ngo bazeze neza.

Abagore babiri bari guhinga ibyatsi babitereka inyuma, umushike uri imbere yabo, n'ibigori biri iruhande rw'iburyo biri kumera bizana imyanana, ndetse hari ibiti birebire bigizwe n'amavoka n'imiravumba hamwe n'intusi zituruka iruhande, birinda isuri kwangirika bino bigori.

Umugabo muremure cyane, wambaye umupira w’umweru, ufite isuka y’ingimba mu ntoki, uri guca imitebo ahahoze ibigori, kugira ngo azahashyire ibijumba. Harimo igiti k'ivoka, ashaka kukirengera, kizatange umusaruro mu gihe kizaza, nyuma y’uko akuyemo ibijumba asimbuje ibigori.

Umurima utunganyije uri hejuru y'urimo ibyatsi, harimo abagore babiri barimo bacukura imyobo bashaka guhingamo ibirayi ariko harimo ibiti by'imyumbati baba baruhiriye bazakura mu kwa cyenda mu gihe kiba ari icy'inzara, hari ibikoro ku ruhande biri kuhirwa n'umugore wambaye umupira w'umutuku.

Akayira gato k'imfungane, kanyura hafi y'umurima w'imyumbati, aho abahinzi banyura bagiye guhinga, ndetse n'abashumba bakanyura bagiye gushaka ubwatsi n'abatwaye ifumbire bajyana mu murima bifashisha bafumbira imyaka yabo mu gihe bagiye guhinga, bakahanyura bagiye no gusarura ibyo baba barahinze mbere.

Ikiganza cy'umugore w'urukara ufite ibirayi bitandatu mu ntoki ari kwerekana uko byeze, uko byavamo imbuto myiza abahinzi bakifashisha mu gihe bari guhinga n'uburyo biterwa bikurikije amategeko bahawe n'abajyanama b'ubuhinzi kugira ngo bizere neza bitandugeje indwara cyangwa kuba byateza igihombo.

Umurundo w'ibishyimbo bya mutiki hamwe n'ibya mukwe araraye byasaruwe mu murima bikaza kurundwa ku gitara kugira ngo bizagurishwe n'abakiriya babishaka kuko biryoha cyane, bigira intungamubiri nyinshi zikungahaye ku butare ugereranyije n'ibindi.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, rifite amagare bakoresha batwara imyaka yabo bayikura mu murima, irimo ibishyimbo, ingano n'ibigori, aho baza kubihungura bakabyanika, bikamara igihe bigafata izuba, kugira ngo bizume neza bitangiritse, babijyane ku isoko kandi birambe.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu harimo umugore umwe n'abagabo babiri bari gusarura imyaka, bakayibika hamwe mu bubiko kugira ngo abaguzi bazaze bayigure itabahenze, bakaba bafite imyaka yose irimo imiceri n'ibigori, ibishyimbo ndetse n'akawunga n'ibindi byose bikenerwa mu rugo, bashyiraho n'igiciro ndetse n'amabwiriza ahakwiye.

Ibitebo bigera muri bitandatu biri mu mabara y'icyatsi kibisi, byose bifite amavoka y'imbuto, zuzuye neza zigera ku musozo, biteretse ahantu heza bitegereje ko bijyanwa ku isoko ndetse no gushyira mu mahanga, kugira ngo bajyane umusaruro wabo uzashobora kwinjiza amadovize.

Akarima k'igikoni karimo igiti cy'inanasi karimo n'amashu akazengurutse, gateye imbere y'inzu y'amatafari ahiye, yubakishije amatafari ariko adasize n'isima idasimanze neza, biri ku ruhande mu rugo rw'umuturage, aho azajya akoresha asoroma tuno tuboga azajya agaburira abana n'umuryango.

Ibyatsi by'ibinyagihuru bya kimeza byitwa ibitovu bikoreshwa mu kugaburira amatungo ndetse no kuyavura, byifashishwa n'abana benshi mu cyaro mu gihe bivura ibikomere bagize, amatungo abikunda kuko iyo abiriye azana amata menshi ndetse afashe, ntibishobore guhangayikisha amatungo cyangwa abashumba babiragiye.

Ishyamba rifite hegitale, rizengurutswe n'ibiti byinshi. Harimo intusi n'isapurense, bakoresha bakoramo imbaho, cyangwa kuba babazamo ibiti, bikoreshwa bakora utubati, intebe n'ibindi bikoresho bikenerwa mu ngo no mu nganda, ndetse no mu mashuri.

Ibyatsi by'umushishi by'imfatane byagiyemo n'urukangaga hameze n'ibiti birebire cyane by'intusi bizengurutse akanyubako k'amatafari ahiye yashaje, hari akayira kagufiya ndetse n'ubusitani bw'ubucaca burimo ibiti birebire abantu baruhukiramo akazuba mu gihe barangije imirimo.

Igiti cy'igihuru gifashe cyitwa umushishiro abanyacyaro bifashisha nk'umuti uvura ku bana bafite ibisebe ibifite ikibara cy'umuhondo ndetse n'utubara tw'umutuku dutoya hariho utuntu tumeze nk'utuzeru twifashishwa igihe baduhonda bakatuvanga n'umufumba kugira ngo umuti ukore neza.

Urugo rugizwe n'ibyatsi by'umuyenzi byubatse bifatanye, bikikijwe n'ibiti by'imbariro bibifata kugira ngo bitagwa hirya, cyangwa umuyenzi kuba wajya umuntu mu maso ukaba wamwangiriza amaso, ufashe urugo neza kugira ngo ntirusenyuke, buri muntu wese ntace aho ashaka.

Ibiti bibiri bya avoka biteye mu murima w'ibishyimbo hari udusina tugufiya n'ingarane yo gushyiramo ifumbire aho bashyira imyanda kugira ngo izakore ifumbire bidakenewe kuba hari amatungo cyangwa ibindi byifashishwa ahubwo bategereza bikabora, bakazabikoramo babifumbiza imirima.

Ishyamba rinini rya karibitusi rigiramo ibiti bisongoye cyane ndetse n'amababi asongoye ajya kumera nk'inzembe, byifashishwa nk'umuti igihe abantu bari kwiyuka barwaye nk'ibicurane cyangwa indwara z'ubuhumekero babifatanyije n'ibindi byatsi, cyangwa bikaba babikoresha nk'umusaruro w'imbaho hamwe n'inkwi n'amakara.

Ishyamba rya kimeza rigizwe n'ibiti byinshi, harimo imishishiro n'imiyenzi, imifatangwe ndetse na rubagimpande. Byameze mu mashyamba menshi, aho inyamaswa zigenda zikihisha, ugasanga ubutaka bwaho burimo udusimba dutandukanye, ariko bugifite intungamubiri kuko ntawuba warabuhinze, cyangwa ngo imvura ibutware.

Ingemwe z'ibiti bya avoka biteye mu mufuka y'umweru irimo igitaka kihagije, ndetse n'ifumbire y'imborera hamwe n'imvaruganda bakoresha, aho baza gufumbira ibiti byinshi buri muhinzi ubikeneye wese, akagenda akabifata akabihinga, akabigura cyangwa bakabimutera nk'inkunga kugira ngo na we azagire ubuzima bwiza.

Umurima w'ibigori uri kwera, bahunguyeho amababi kugira ngo ibigori byume vuba, bizafashe abahinzi kubona umusaruro wabo, ndetse n'ibigori bikuma vuba bitangiritse kubera amazi, hari n'imyumbati iri kumera mike mike n'amateke atari menshi, yagiye amera ahavuye ibigori.

Ibishyimbo bya mushingiriro batera ku biti hejuru bikagenda birandaranda bikagera nko muri metero eshatu bitanga umusaruro neza, bihinze hafi y'umurima uhinzemo uduteke dutoya ndetse n'insina zapfuye zitegerejwe kurandurwa kugira ngo bahatere ibindi bizatange umusaruro mwiza.

Imbuto eshatu z'umumwembe ziri mu mabara y'icyatsi kibisi zipima ibiro bigera muri bitatu ziteretse ku umufuka w'umuhondo, uri hejuru y'igitara cyubakishijwe nimbaho iz'umusave n'iz'inintusi bakoreshaho bacuruza cyangwa bifashisha kubika imyaka kugirango ngo itajya hasi ikuma.

Umugore w'umuzunguzayi ufite imbuto z'ubwoko bw'inshi, zifite mu mabase atandukanye, aho afite amarakuca mu isashe yateretse mu ibasi y'ubururu ndetse n'ibinyomoro bikeya biri mu kabase gatoya, yateretse hasi ku mabuye ategereje abaguzi bamugurire.

Itsinda ry'abanyeshuri babiri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu bari gutunda ibiti bifite amababura ndetse n'ibindi bidafite amababura, bari gukora akarima k'igikoni aho ababyeyi babo bazatera imbuto ndetse n'imboga zo gukoresha mu rugo bizagabanya amafaranga yo kujya guhaha ndetse no kuba yabikwa agakoresha ibindi.

Itsinda ry'ababyeyi bagize umudugudu, bari kumwe n'Umujyanama mu by'Ubuhinzi, abereka uburyo bakora akarima k'igikoni, bagateramo utuboga dutandukanye turimo amashu, dodo ndetse na karoti, bakoresheje umufuka n'ibiti bikeya, n'igitaka bagenda bagacukura hirya mu baturanyi.

Abagore babiri bafite intoryi mu ntoki umwe muri bo wambaye ingofero, bari kwerekana umusaruro wabo, aho buri wese yafashe intoryi z'umweru, zabyibushye imwe ipima nk'amagarama atanu, bari mu murima w'izo ntoryi, aho bakikijwe n'igiti ndetse n'insina nyinshi cyane, harimo iza kanuka, mazizi n'inyamunyo.

Ubusitani buteye mu mbuga yo mu rugo, buzengurukijwe n'indabo z'umuhondo, zifite amahwa mu mpande yazo, ndetse n'utubabi dusongosoye twegereye amati y'amabuye, n'ubusitani bw'ubucaca, bugiye buteye butandukanye, burumberejwe n'ubusitani bwo hirya, bufite amabuye y'umutuku ndetse n'andi y'icyatsi.

Uduseri turindwi tw'imineke turi mu bwoko bwa kamara, tumwe duteretse ku gakoko utundi turi hasi kuri shitingi ku gitara dutegerejeho ko abakiriya baza bakatugura bakajya kudukoresha mu ngo zabo, badushyiriye abana bato kuko dufasha abana kugira intungamubiri zihagije no ku gihe bariye imbuto bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu, afite icyuma n'umusatsi w'umukara, ari gusoroma imishogoro ndetse n'utubwija duteye mu murima urimo ibigori na soya, harimo akayira gato k'abanyamaguru gatambukamo abagiye guhinga n'abavuyeyo bafite ubwatsi bashyiriye inka zabo.

Ingemwe z'amavoka ziri mu rurera aho bazifumbira, ziri mu dusashi tw'umukara turimo ibyondo byuzuye cyane, harimo umukobwa wamenyereye kubyiga ndetse ubizobereyemo cyane, ugenda ureba evoka nziza zatanga umusaruro uhagije, akagenda yereka abahinzi izo bahitamo n'izo bareka.

Ubuhinzi bw'imbuto bugezweho aho bafumbira imbuto nyinshi harimo ibinyomoro ndetse n'ibindi, byifashishwa bagiye kubitera mu rugo ndetse n'amashyirahamwe ashaka gukora umushinga buri wese aza akahagura ingemwe akagenda agatera iyo abishaka cyangwa bakagurisha mu mahanga ku bakeneye guhinga imbuto zabo.

Ubusitani bw'ibyatsi byinshi biri mu mabara y'icyatsi kibisi, buteye hafi y'igipangu cyubakishije amabara y'umweru n'ibyuma bitambitse n'ibihagaze hateyemo ibiti birumbaraje cyane, byakuze bitegerejwe gusarurwa bigasimbuzwa ibindi kugira ngo hakomeze harebe neza n'umuyaga ugere mu kigo byugarije.

Ururiro rw'imbuto zitandukanye hagaragaramo ibinyomoro ndetse n'imbuto z'amacunga zifumbiye mu masashe, arimo ibyondo byinshi bitenze neza ku murongo, harimo utuyira dutoya abasarura banyuramo ndetse n'abazikorera, kugira ngo bafasha gukuramo ibyangiritse byose basigaze imbuto nziza.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ufite ibitunguru bitanu mu ntoki by'umutuku bibyimbye cyane bifite imizi myinshi hasi, agaragaza ko umusaruro wabonetse neza mu murima wabo, ashimira abajyanama b'ubuhinzi ndetse n'ababahaye ifumbire, ashimira na leta yabafashije kwikura mu bukene bwabo.

Agasoko rusange karimo imbuto zitandukanye, imineke, amarongi, ndetse n'ibinyomoro, kokombure, ndetse na korojete, ibitoki bihanyuye by'imeke, ibyeze n'ibiteze, avoka ndetse n'ibindi, aho abaguzi baza gushakira imbuto, imbuto ziteretse ku utumeza, ndetse na shitingi ziriho kugira ngo zitandura.

Igiti kinini cya avoka gifite amashami menshi, gifite n'imbuto za avoka, cyeraho imbuto zo kuribwa, ndetse n'izo kugurisha zifashishwa mu rugo ndetse n'isoko mpuzamahanga rikaza kuzikoresha, cyubatse imbere y'igipangu, cyubakishije amatafari, ndetse n'umucanga uhiye, hamwe n'ururabo ruri hafi.

Umurima urambuye uteyemo ibirayi, urimo abagabo babiri bari kuvomerera imyaka, kugira ngo iyi myaka yabo itazera, ukikijwe n'ibiti ku mpande, urimo imiringoti iringaniye, n'ifumbire igiye iri hejuru y'ibirayi, ibirayi byose bisasiye kugira ngo ifumbire igumemo, imvura itazayimanura, ibirayi bikajya hejuru, ntibyere.

Abahungu babiri bo mu kigero k'imyaka cumi n'itandatu, umwe afite amajerekani abiri y'umuhondo, yambaye isenge ari kugenda iburyo, asize murumuna we ufite amajerekani abiri; ijerekani rimwe ryagiyemo inzoka, ari kureba uburyo abigenza, bari kuvoma amazi yo mu gishanga gikikijwe n'umuceri wumye utegerejwe gusarurwa.

Umurima w'ibitunguru uteye neza ku murongo, ufite hegitari zigera muri enye, ukikijwe n'urutoki rwinshi, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bafite umupira w'amazi, bari kuvomerera neza kugira ngo birinde ko byuma bitazatanga umusaruro muke, bakabona barahombye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite umupira ari kuvomerera ibigori biri gukura, biteye uruhande rumwe n'ibindi bigerageza gukura bitewe vuba n'umurima utunganijwe utarimo ikindi kintu, ukikijwe n'ibiti by'intusi, harimo n'ibintusi byinshi cyane ndetse n'ishyamba rya kimeza.

Umurima ukoreye neza urimo ifumbire itari nyishi ndetse n'ibyatsi ku ruhande utegerejwe uterwamo imyaka, uzengurutswe n'ibiti by'imyumbati n'ibigori biteye ibumoso ndetse n'ibindi biteye iburyo, bitegereje ko uzahingwamo guterwamo n'ibishyimbo, imbuto z'ibirayi hamwe n'ibijumba n'imigozi.

Umusozi uriho ibiti byishi, ibigizwe n'intusi ndetse na sipure, gereveriya ndetse n'imyembe iri munsi y'urugo, insina ziri hafi y'amazu ndetse n'igishanga kirimo ibigori n'ibishyimbo, n'inzu y'imbaho ifite amabati y'umweru n'utudirishya duto tutagaragara, ndetse n'imiringoti igiye iteye kuri buri musozi.

Igishanga cyamezemo ibyatsi harimo ibikangaga n'ururandaranda, cyegeranye n'umusozi muremure hariho utuzu dushaje tugizwe na rukarakara n'amategura y'utuzu dutoya kuzengurutswe n'amashyamba menshi ari ku umusozi hejuru hagaragarare amashyamba meza arimo intusi n'ibishishi.

Igishanga kinini cyane giteyemo umuceri mwiza, ugeze mu gihe cyo kuhirwa. Gifite ubuso bunini cyane bugera kuri hegitari umunani, gisakajwe n'amashyamba ari hirya no hino, afasha gukumira imvura ndetse n'isuri imanuka iza mu gishanga, ikaba yakangiza imyaka.

Ibiti birebire by'ikawa bifite metero zigera muri ebyiri biteye neza ku muronko, bisasiye n'ibihunda byabigenewe ndetse n'inshinge ku ruhande, harimo amaterasi y'indinganire n'ibiti by'avoka n'ibyasipure mu rwego rwo kurengera ibidukikije.

Umuringoti ufite metero ebyiri, uteyeho ibyatsi impande n'impande, uri hagati mu murima w'imyumbati, uri hakurya no hakuno, yamezemo ibyatsi itabagaye, byameze hirya no hino bishobora kubirya mu gihe byanze gukura cyangwa kubagarirwa, cyangwa bigateza ibibazo byo gutanga umusaruro muke.

Ubworozi bw'inkoko bugizwe n'inkokokazi ndetse n'amasake, ziri kurisha ibiryo byazo birunze ku mufuka w'umuhondo harimo ifu y'ibigori, ndetse n'isambaza ntoya basakaguye hamwe kugira bazifashe gukura neza no gutanga amagi y'umuhondo.

Ihene ebyiri zifite amabara atandukanye, ziziritse hafi y'igipangu gishaje, mu gisambu gifite hegitari zigera kuri ebyiri, n'utwatsi twagiye tumeramo dutandukanye, aho ihene baza zikarisha, bakahazirika inkoko n'intama, kugira ngo zibe ziri hafi y'urugo, zitajya kure bataziba.

Ihene eshatu ziri kurisha iy'umweru n'umukara n'indi ifite ikinombe n'umweru, zizingiye ku biziriko byiza cyane bigizwe n'ikinusi ndetse n'amakamba, bizengurutswe n'ibiti byishaje bimwe bifatishije imigozi n'inzuma, ibindi harimo imisumari biteyemo biri kurya ibigorigori n'urubingo ruvuye ku murima.

Umugabo mugufi wiyeguje ubworozi bw'ingurube wambaye umupira ufite umweru ku maboko ndetse n'umukara hagati mu nkokora, afite agapira k'umuhondo imbere ari kwerekana ingurube ya kizungu ipima ibiri ijana iyo imaze kurya ifite amatwi manini cyane ndetse n'ibyatsi byose ibonye itanga umusaruro neza ikabwagura ibyana icyenda.

Ingurube y'umweru yarenze mu gihe cy'ibibwana igeze mu gihe cyo kubwagura, iri guherezwa umuti mu kigaro cy'umuhondo, giciyemo kabiri bifashisha bahereza ibiryo, hari umujyanama w'ubuhinzi wambaye inkweto z'umukara ndetse n'umujyanama mu by'amatungo uhereza zino ngurube umuti kugira ngo zizagire ubuzima bwiza.

Amatungo abiri magufi yo mu rugo harimo isake n'inkokokazi isake ifite amababa y'umutuku ndetse n'amaguru abiri abwataraye n'amababa agiye azingiriye ku ruhande, afite amasunzu y'umutuku asongoye yegeranye n'inkokokazi biri imbere mu kazi gatoya kubabakishije rukarakara kamezeho uruhobi hasi.

Ingurube yabwaguye ibyana umunani; iryamye hasi byose iri kubyonsa imanitse amaguru agera muri ane, ifite amatwi yu'umweru areba hejuru ibibwana byose bisa byose iri mu kazi gatoya kubakijije rukarakara isasiye ibyatsi by'umwimerere ndetse n'ibiryo byo kuzitunga biri iruhande rwayo ziri kurya.

Inkoko z'isake n'inkokokazi, ziri mu gikari mu rugo rw'umuntu, ahari ibishashara bamaze guhuramo ibishyimbo, hari ikigega cy'amazi gifata amazi y'imvura cyegeranye n'inzu ishaje, igizwe n'urugi rw'ubururu ndetse n'udutebe tubiri dukikije mu ruhande rwaho, dukikije n'ibiti bibiri.

Inka y'imbyeyi y'isine ifite umurizo muremure izirikije ikiziriko cy'ikibamba, kiziritse ku giti, iteye iherena ku ijosi ndetse no ku gutwi kwayo, iherene riyiranga mu gihe iri kumwe n'izindi ndetse yerekana y'uko yavuwe uburondwe n'izindi ndwara zose zishobora kwangiza andi matungo.

Ikiraro cy'amatungo cyo mu cyaro kirimo inka y'imbyeyi ndetse n'umutavu, biri mu mabara y'isine, biri kurisha ubwatsi buri inyuma y'ibiti bibiri, harimo urubingo n'ibigorigori ndetse n'ibyatsi babizaniye, hari imigozi iziritsemo, amakamba afashe ku giti cy'inka ayifata mu ijosi idacika.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, burimo inkokokazi n'amasake, bukorewe mu rugo cyangwa mu mashyirahamwe. Bubatse inzu nziza cyane irimo ibyatsi bikenerwa byose, ndetse n'ibiryo byo kubitunga. Harimo n'ibikoresho byiza byifashisha kuzana urumuri, hamwe no kuzana umwuka mu nzu kugira ngo inkoko zidapfa.

Ibishyimbo biri kumera bikaba ari mushingiriro, bitegereje ko bishingirwa, ndetse no kuvomererwa, hamwe no kuhirirwa bizafashe kubona umusaruro. Bazakoresha ibiti birebire bagiye bakura ku ntusi cyangwa bagakoresha amashami yabyo, bakabitera neza ku murongo kugira ngo bizarande bigera hejuru, bitange umusaruro uhagije ku bahinzi babihinze.

Imbuto z'ibihwagari ziri mu dufuka tw'umweru, tugiye dupima ibiro bitanu buri kose, gakoreshwa kugira ngo bafumbire imbuto, aho bazajya baza kureba izo gutera, yaba abahinzi muri rusange, cyangwa abahinga mu mashyirahamwe, n'abashaka kubitera mu rugo, bazabikuremo amavuta.

Umugezi urimo ibizi bibi, ufite metero zigera muri enye ibuhande ndetse n'ibugari, uzengurutswe n'akayira gatoya, abantu basimbuka batambuka, hari ibyatsi biri ku ruhande abantu bifashisha iyo baje kuragira ndetse no gushora inka zabo, bakahanika imyenda abashaka kumesa, batashatse gufurira mu rugo.

Igishanga kinini cyane gifite ubuso bunini cyane bugana hegitari eshatu ,giteyemo umuceri mwiza ugeze igihe cyo kuhirwa uteye neza murongo ufite amababi ashashagirana ndetse n'inteke ziri kumerara hose harimo amazi ahagije bizatanga umusaruro ku bahinzi n'abaguzi ndetse n'inganda z'imbere mu gihugu.

Umurima utunganyije neza, urimo ifumbire ihagije, hamenye n'ivu ku ruhande ndetse n'amakara yasagutse mu ziko, uteyemo ibishyimbo bigiye bitandukanye, biteye ku muronko neza, kimwe gihana intera n'ikindi kugira ngo bizamere bitabyigana cyangwa bibe byakururana bigatuma umusaruro utaboneka.

Umuringoti wajemo amaninda y'amazi aturuka mu masoko yasagutse kuyo bavoma, uteye amateke ku ruhande ndetse n'ibishyimbo bya mushingiriro n'ibigori by'aho bahinga, bagiye guteramo amateke bikeza cyane ndetse bigatungwa, bigafasha abantu mu kwiteza imbere no guhinga kugira ngo beze.

Ubwororo bw'imyaka aho bagenda bagafumbira ingemwe z'ibiti bitandukanye harimo intusi ndetse n'imyembe, avoka n'amaronji, buri wese ukeneye imbuto akaza akayihafata, hakikijwe n'ibigori ku ruhande ndetse n'ibyatsi byamerereye inyuma y'urwererero, aho baza gufata izi mbuto bakajya kuzitera mu rugo zabo cyangwa abashaka kuzihinga kinyamwuga.

Irerero ry'ibiti by'imbuto bigizwe n'ibitaka byinshi, bigiye birunze mu mashashi y'umukara, afite santimetero zigera muri enye, biba bitenze ku murongo neza, bafumbiramo imbuto nyinshi. Harimo avoka ndetse n'imikindo, bagateramo indabo kugira ngo zigurishwe, abandi bazikoreshe batera ku mihanda ndetse no mu ngo zabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwo gufumbirwa bukora n'ikigo cya gisirikari, kugira ngo gifashe abatuye igihugu cyose kubona imbuto igihe babyifuza, aho bafumbira ibiti by'inintusi, iby'imbuto birimo imyembe, avoka ndetse n'amacunga, n'ibindi bikenerwa byinshi batera ku muhanda, ibindi bigafata ubutaka.

Umugabo muremure wambaye itaburiya y'umweru, afashe ku byuma bikoreshwa bizana umwuka mu nzu, ndetse n'imashini zikoreshwa abanyeshuri bari kwiga bareba uburyo bwose bareba ibibareba, ndetse bafasha abandi banyeshuri kugira ibyo bageraho ndetse n'ibyo bakemura bijyanye n'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri harimo uwambaye umupira w'umutuku n'umuhondo, umwe muri bo ari umujyanama mu by'ubuzima bw'amatungo, ndetse ashinzwe no kuvura inka mu murenge atuyemo, bafite icupa ry'ubururu, ndetse n'undi afashe inka ku mazuru, izirikishije ikiziriko cy'ikamba, bategesheje ibiti by'imbaho, kugira ngo bahereze inka umuti.

Umwana w'imyaka irindwi ufite inka y'urwirungu ari kuyihereza ibyatsi ari mu rugo, urugo ruzekejwe n'imihati ndetse ikiraro k'inka cyubakishije ibiti, bizirikikije n'imigozi n'igitarare kiriho imbabura ariko kuyihereza urubingo ndetse n'utugorigori twanze kwera, hamwe n'imigozi y'ibijumba.

Umugabo muremure wambaye impuzankano z'ubururu ziri mu rwego rw'igisurureti, uri gutera ihene urushinge, ayivura indwara y'uburondwe yayiziritse mu gisambu, gifite ubuso bunini cyane bugera kuri hegitari eshanu, haragiyemo amatungo magufi arimo intama n'ihene ndetse n'ingurube ziri ku ruhande, ziri kurisha imigozi ku nka.

Agasimba k'urwumvu gafite amaguru agera muri ane ndetse n'amaso atukuye cyane, areba muri metero eshanu, gasimbuka kagaciranaho, usanga gacira ku bantu, kiyoberanya cyane kubera gufata ibara ry'aho kagiye, ku buryo umuntu atabasha kukabona, kagateza ibyago ku bantu kaba kaciyeho amacandwe.

Inyoni y'umusuri ifite amaguru maremare, amabara y'umweru n'umukara mu ijosi, ifite amaso y'umukara cyane, itera utugi dutoya dukunda kuribwa n'ibisimba, ifashe ku biti by'ishami bizengurutswe n'amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'udushami dutoya turi hakurya ku miti y'imiyenzi bifasheho nabyo.

Inzovu ishaje cyane ifite amatwi abiri abangaraye ndetse n'amazuru manini cyane. Igaragaza amaso y'umukara avuga yuko aba ashaje. Afite amahembe ameze nk'urugore akoreshwa cyane nk'ay'agaciro mu gukora imitako myiza ya kizungu cyangwa amafeza yesa akenerwa mu byo bakoresha by'imitako.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, gifite ibiti nka bitanu ku ruhande, gifite ibyuma biri mu mabara y'umutuku, ndetse n'urugi rw'umutuku rufashe hanze n'amabuye ajyayo menshi cyane, afite n'igihuru cyihakikije cyasibye inzira y'amazi, byegeranye n'umuhanda w'igitaka, aho abagenzi banyura batambuka bajya ku isoko.

Igisimba cyitwa ingagi kiba mu cyanya nyaburanga kigaragara mu Kagera ndetse no mu birunga gikurura ba mukerarugendo cyane kubera uburyo gitangaje, gishobora gukora nk'umuntu ndetse no kwita ku bana bacyo, aho gisanga kibakunda cyane kibonkereza aho cyihishe.

Inkende eshatu kimwe kiri kumwe n'umwana wacyo, byicaye ku mashami y'igiti cy'umwembe, bizengurutse n'amashami yacyo, bifite imyobo miremire ndetse n'imirizo miremire cyane, iminwa yabyo ijya kumera nk'umukara nk'abantu, biba bireba abantu nk'ibireba neza ndetse n'amashami y'icyatsi kibisi azengurutse izo nkede.

Igisiga kinini cy'umweru bakunda kwita icyiyoni gikunda kurya injanga iyo zanitse kigatungwa n'inyama gusa, ugasanga cyica izindi mu gihe ari duto cyane, gifite amaguru maremare n'umurizo ushashe cyane, amababa areba hasi ndetse n'andi areba hejuru ayafasha gufata ibyo kurya nk'amafi iyo ari mu mazi.

Icyanya nyaburanga cyahariwe ubukerarugendo cy'Akagera, kirimo inyamaswa z'impara n'ingwe, ndetse n'imbogo biturutse hamwe, biri hagati mu rwiri, n'urubingo rwameze impande n'impande, hari ibiti birebire cyane, izo nyamaswa nyinshi zitahamo, zikifashishwa nko kugama izuba, cyangwa kuba zahategereza abana babyo.

Agasimba k'inkima kari ku giti gafite amaso y'umweru cyane gafite urunigi rusize umweru n'ijosi ry'umukara cyane ndetse no hejuru hafite nk'umusaya, gakingirijwe n'ibibabi by'ibiti bisa nk'ibiti kimeza ndetse kari ku giti cyumye gafite urubobi rwinshi.

Inyoni yitwa igishwi ifite hejuru cyane h'umutuku ikunda kugira amahane cyane no kurya imiserebanya n'amafi mu nyanja, igira umurizo muremure n'amaguru acyeye cyane ndetse akaba aryana mu gihe iyo ibonye iyindi nyoni ntoya, ifashe ku giti kinini gifite ishami rireba iburyo ikikije n'ibindi biti by'icyatsi.

Inyoni y'umusure ifite amabara atanu harimo: ubururu, umukara, n'umweru, ifite ku munwa h'umukara ndetse n'amasunzu asongoye cyane, amenyo y'umukara akoze cyane, yicaye ku gishami cy'umuti ndetse n'ibiti bibyibushye cyane biri iruhande rwabyo, n'ibibabi by'icyatsi kibisi bizengurutse inyoni, ndetse bibifasha gukuramo icyari, no kubona ubuturo bw'izindi.

Agasimba gato kitwa urwumvu kari kugenda ku biti byumye bigaragara nk'ibyatemwe kera, kagenda gafata ibara ry'aho kageze, kagenda gacira ku bantu kagatera indwara, kirindwa ko kagera mu nzu kuko iyo kageze ku ruhu rw'umuntu kahasigaho ibisebe n'inkovu nyinshi.